Bimwe mu bihingwa bizamura ubukungu, harimo ikawa ni nziza cyane, izamura ubukungu bw'igihugu, bikaba akarusho iyo iri ahantu heza, ikabasha kwera, iba ari nziza cyane, irafasha, ubukungu buhita bwihuta.

Icyayi ni igihingwa kizamura ubukungu bw'igihugu kuko bagicuruza yaba mu gihugu, cyangwa hanze y'igihugu kibasha kwagura ubukungu bwa buri gihugu, ni igihingwa cyiza cyane.

Ibigori bitewe ku murongo, ni byiza cyane. Ntanakimwe kibyigana n'ikindi. Bihinzwe mu buryo bwa kijyambere. Nta wundi mwaka n'umwe babivanga nabyo, biba bisa neza cyane.

Guhinga ingemwe z'imbuto zitandukanye, biba ari ngombwa kuko kugira ngo buri gihingwa gikure kibeho, ni uko haba hari urugemwe cyaturutseho kugira ngo gihingwe.

Abantu bashinzwe ubuzima bw'amatungo, bayitaho, bakayatera inshinge, bakayaha imiti, buri tungo ryose nta tungo ritagira umuti warigenewe, bagira igihe bakajya gutanga imiti kuri buri tungo.